Ikigo cy'amashuri cyubatse neza cyane gifite isuku. Ibikoresho bihagije bifashisha bari kwigisha abanyeshuri, kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuye, bityo bizabafashe mu iterambere ryabo.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza cyane, gifite isuku. Ibikoresho bitandukanye bifashisha. Ameza n'intebe bicaraho maze bakiga, bakunguka ubumenyi bwisumbuye. Bityo bikazabafasha mu buzima bwabo buri imbere.

Ishuri rikoze neza cyane, rifite isuku, rifite ibikoresho bifashishaga bari kwiga, intebe bicaraho n'ameza, bakoreraho egisiperimenti; maze bakongera ubumenyi bwabo, bityo bikazabafasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Bakiteza imbere.

Ishuri rikoze neza cyane rifite isuku bigiramo, rifite ibikoresho bitandukanye, intebe bicaraho, ameza barambikaho ibikoresho bifashisha bari kwiga, maze bakunguka ubumenyi bityo bakaziteza imbere.

Ishuri abanyeshuri bigiramo, rikoze neza cyane, rifite isuku, ibikoresho bifashisha bari kwiga, intebe bicaraho, maze bakiyongera ubumenyi, bityo bakazajya ku isoko ry'umurimo guhatana, maze bakiteza imbere, bakabaho neza cyane.

Ishuri rikoze neza cyane rifite isuku, rifite ibikoresho bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga, bityo bakongera ubumenyi bwabo, bikazabafasha kujya guhatana ku isoko ry'umurimo, bakabasha kwiteza imbere n'igihugu cyabo n'imiryango yabo.

Ishuri rikoze neza cyane，rifite isuku， ibikoresho bitandukanye， abanyeshuri bifashisha bari kwiga，kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuyeho， bityo bizabafashe kujya guhangana ku isoko ry'umurimo，babashe kwibeshaho n'imiryango yabo.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe bari mu cyumba gifite ibikoresho bihagije bifashisha bari kwiga, kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuyeho bazabwifashishe bari guhanga imirimo, maze babone amafaranga yo kwiteza imbere.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe, bari mu cyumba gifite ibikoresho bihagije, bifashisha bari kwiga kugira ngo bongere ubumenyi bwabo, bityo bazajye ku isoko ry'umurimo guhatana, babone akazi maze biteze imbere n'igihugu cyabo.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza cyane, gifite isuku gifite ibikoresho bitandukanye bifashishaga bari kwiga, maze bakingura ubumenyi, ibikoresho bifashisha bari kurya iminyenga, ibiti bitanga umwuka bahumeka, ubusitani bwiza bicaramo, maze bakaruhuka bakumva bamerewe neza.

Abanyeshuri bambaye imyenda Yabugenewe bari mu cyumba bigiramo gifite ibikoresho bihagije bifashisha bari kwiga, maze bakunguka ubumenyi bwisumbuye maze bakazajya ku isoko ry'umurimo gushaka akazi maze bakiteza imbere bagateza n'igihugu cyabo imbere.

Icyumba gikoze neza cyane gifite isuku. Abaganga bambaye imyenda yabugenewe, bafite ibikoresho bitandukanye bifashisha bari kuvura, maze bakunguka ubumenyi bwisumbuyeho, bikabafasha kujya bita ku babagana neza maze bakabavura bagakira.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe, bafite ibikoresho bifashisha bya muzika bari kwiga, bityo bakongera ubumenyi bwabo, bikazabafasha kujya ku isoko ry'umurimo, maze bakiteza imbere n'imiryango yabo n'igihugu cyabo.

Ishuri rikoze neza cyane rifite isuku. Ibyarahani abanyeshuri bifashisha bari kwiga gushona, kugira ngo bazajye ku isoko ry'umurimo, bahatane maze babone amafaranga ko kwiteza imbere n'imiryango yabo.

Ikigo gikoze neza cyane gifite ibikoresho byabugenewe abanyeshuri bifashisha bari kwiga, bityo bakongera ubumenyi bwabo bakajya ku isoko ry'umurimo guhatana, bityo bakazabona amafaranga yo kwiteza imbere n'imiryango yabo.

Ishuri rikoze neza cyane rifite isuku abanyeshuri bigiramo, intebe bicaraho, ameza bandikiraho, ibikinisho bifashisha bari kwiga maze ubumenyi bwabo bukiyongera, bityo bakabasha gukura neza cyane.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza cyane gifite isuku. Ibikoresho bihagije abanyeshuri bifashisha bari kwiga maze bakongera ubumenyi bwabo, bityo bakazajya guhangana ku isoko ry'umurimo. Bakabona amafaranga yo kubateza imbere n'imiryango yabo.

Ishuri ryubatse neza cyane rifite isuku. Ibikoresho bihagije abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuyeho, bityo bajye ku isoko ry'umurimo bajye guhatana, babone akazi; babone amafaranga, bityo biteze imbere.

Ikigo cy'amashuri gikoze neza cyane gifite isuku, intebe abanyeshuri bicaraho bari kwiga maze bakunguka ubumenyi bwisumbuyeho, bityo bakazajya guhangana ku isoko ry'umurimo bakabasha kwiteza imbere, n'imiryango yabo n'igihugu cyabo.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe, bari mu ishuri bigiramo, rikoze neza rifite isuku, rifite ibikoresho bitandukanye bifashisha bari kwiga, maze bakunguka ubumenyi bwisumbuye, bityo bakazajya ku isoko ry'umurimo guhatana, maze bakiteza imbere.

Ishuri ryubatse neza cyane, rifite isuku, rifite ibikoresho bihagije, abanyeshuri bifashisha bari kwiga, maze bakunguka ubumenyi bifashisha bari kujyana hanze ku murimo, maze bagahatana, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo, n'imiryango yabo, n'igihugu cyabo.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe bari kwishimira intsinzi y'amasomo yabo bagezeho, maze bakajya hanze guhatana, maze bakabona akazi bakagakora neza cyane bakabona amafaranga, yo kwifashisha bari kwiteza imbere n'igihugu cyabo n'imiryango yabo.

Ahantu abantu bahurira bakabigisha gusuka imisatsi, gusiga inzara no gukora intoki, kugira ngo bizababyarire inyungu babone amafaranga, yo kubatunga.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe, bari kwiga ubuvuzi bw'amatungo, kugira ngo bazabashe kugera hanze babone akazi, maze bashyire mu bikorwa ibyo bize, maze babashe kwiteza imbere ni imiryango yabo, maze babeho neza bishimye.

Ishuri abanyeshuri bigiramo rifite ibikoresho bitandukanye bifashisha bari kwiga. Bityo bakiyongera ubumenyi bwabo, bikabafasha kujya guhatana ku isoko ry'umurimo, maze bakabona amafaranga bakiteza imbere, n'igihugu cyabo.

Ishuri rikoze neza cyane, rifite isuku, rifite ibikoresho bihagije byifashisha bari kwiga, maze bakongera ubumenyi bwabo bityo bakazajya ku isoko ry'umurimo guhatana n'abandi. Maze bakabona akazi bakiteza imbere n'imiryango yabo n'igihugu cyabo.

Amashuri yubatse neza afite isuku, abanyeshuri bajya kwigiramo, intebe bicaraho bari kwandika, kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuyeho, buzabafasha kugera ku bintu bihambaye, maze babone amafaranga yo kwifashisha biteza imbere.

Ishuri rikoze neza cyane rifite isuku ,ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha bari kwiga, intebe bicaraho n'ameza bandikiraho, bityo bakiyongera ubumenyi bakazabasha kujya guhatana ku isoko ry'umurimo, bakiteza imbere n'imiryango yabo n'igihugu cyabo maze bakabaho neza cyane.

Ishuri ryubatswe neza cyane， rifite isuku， ibikoresho bihagije， abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo bongere ubumenyi bwabo， bityo bazage ku isoko ry'umurimo guhangana， babone akazi， babone amafaranga， yo kwifashisha mu bintu bitandukanye，biteze imbere.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha bari kwiga, bityo bakagira ubumenyi bwisumbuyeho, bakazabukoresha bihangira imirimo itandukanye, maze bakabasha kubona amafaranga yo kubatunga n'imiryango yabo, maze bakiteza imbere bakabaho neza cyane.

Inzu ikoze neza cyane, ifite isuku. Ibikoresho bihagije, abanyeshuri bifashisha bari kwiga umuziki bityo bakazabona uko bahanga ibihangano byabo, maze bikajya hanze, bakabona amafaranga yo o kwiteza imbere n'i Igihugu cyabo.

Ishuri rikoze neza cyane rifite isuku. Ibikoresho abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo biyongerere ubumenyi, bityo bazajye ku isoko ry'umurimo guhatana babone amafaranga yo kujya bifashisha, mu iterambere ryabo n'imiryango yabo.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza cyane, gifite isuku, ibikoresho abanyeshuri bifashisha, bari kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi busumbyeho, maze bazajye ku isoko ry'umurimo guhatana, babone amafaranga, yokubafasha mu iterambere ryabo no kubaho neza.

Ishuri rikoze neza cyane rifite ibikoresho bihagije bya muzika bifashisha. Abanyeshuri bari kwiga amasomo yabo kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuyeho, bityo bazajye hanze bafite ubumenyi buhagije, kugira ngo bihangire imirimo babone amafaranga.